Aha ni ahantu habereye inama, abantu bateranye bari kujya inama y'icyakorwa runaka, aha hari umusore ukiri muto, yafashe indangururamajwi, ari kugira icyo abwira abitabiriye iyo nama bose.

Icyumba k'inama gisa neza, gisukuye, kirimo abantu basa neza, inama iri kugenda neza, abantu bicaye bateganye ntawuteye undi mugongo, utanga ijambo ari ahantu hitegeye, iyi nama imeze neza.

Iyi foto iriho itsinda rigari ry'abantu ubona y'uko bakurikiye inyigisho bahuje umutima basa nk'aho bari mu mahugurwa cyangwa ibindi bikorwa byagirira igihugu akamaro.

Ahari kubera inama hantu ubona hatuje abantu bicaye ku murongo, bahawe ibinyobwa bibafasha kuruhuka, bicaye bitegereje uri gutanga ijambo ubona ko iyi nama iri ku murongo.

Ahatakishije amabara agize idarapo ry'u Rwanda: ubururu, umuhondo n'icyatsi. Hari kubera inama nk'uko bigaragara n'impuzamiryango ya komite mpuzabikorwa y'Akarere ka Nyagatare. Imbere hahagaze abagabo batatu b'abayobozi, ubona ko bari kuganirira abandi.

Iyi ni inama, inama y'urubyiruko, ariko harimo n'abakuze, ni ahantu mu cyumba kiberamo inama, umwana w'urubyiruko yahagurutse yambaye impuzankano y'ishuri, biragaragara ko ari umunyeshuri yahagurutse ari kugira icyo avuga mu bandi.

Icyumba cy'inama, ahateraniye abaturage bari kuganirizwa n'umuyobozi, umuyobozi aragenda abazengurukamo abaganiriza kugirango ibyo avuga byumvikane, abahicaye nabo baje mu nama baratuje barakurikiye.

Iyi foto ndayibonaho inteko ngari y'abantu, aba bantu bashobora kuba baje mu mahugurwa cyangwa baje mu nama, ariko ikigaragara ni uko bahawe ibinyobwa, hari n'abafite impuzangano, ariko hari n'ibikoresho byifashishwa mu gufata amafoto n'ibyifashishwa mu gusohora amajwi.

Umugabo uri ahantu heza, usa neza, wambaye umwenda wo hejuru ishati y'ubururu n'umwenda w'akazi ijire ubona ko afite akazi.

Ahantu hari kubera inama hari abantu benshi, hari inzego z'umutekano cyane cyane abita ku mutekano wo mu muhanda abapolisi, hatakishijwe imyenda y'amabara aboneka mu kirango cy'idarapo ry'u Rwanda, urabona ko ari ahantu hari kubera inama rwose.

Icyumba cy'inama, ahakoraniye abantu b'ingeri zitandukanye: abo mu nzego z'ubuyobozi, abo mu nzego mu kigo gishinzwe imfungwa n'abagororwa, abo mu ngabo z'Igihugu nk'uko mbibona ku mpuzankano n'abaturage basanzwe ubona bari mu nama bakurikiye.

Inama yitabiriwe n'abantu ubona ko bakuze, harimo: abagabo, abagore, iyi nama iri kubera mu cyumba cyabugenewe, icyumba gisa neza gisukuye, kandi abayijemo bahawe amazi meza, baritonze, bari kwandika ibivugwamo, bimeze neza.

Icyumba kiri kuberamo inama harimo abagabo ubona b'abayobozi abantu batuje bakurikiye, haje ibinyamakuru hari ibifata amajwi, ibifata amashusho, ibintu ubona ko biri kugenda uko bikwiye muri iki cyumba k'inama.

Ahagana imbere ku rubyiniro abasore bakiri bato bari mu myiyereko bambaye imyenda yo hejuru isa, bari ahantu habaye ibikorwa runaka.

Inama n'ibiganiro umuyobozi ari kuganirira abaturage yifashishije urugero rw'undi muturage kugira ngo abasobanurire imikorere yo mu Isibo, akamaro ko gukorera mu Isibo, ibishobora kuganirwa mu Isibo no mu yandi matsinda y'abaturage aho batuye.

Abantu bambaye neza bari ahantu ubona habera inama, abantu barakurikiye bose bahuje ibitekerezo bahuje umutima; bahanze amaso ahari kuvugirwa, ahari umuntu uri kubabwira, urabona ko bose bamukurikiye aho bicaye mu myanya yabo.

Igikoresho kibajwe mu giti cy'umuvumu ni umuvure bifashisha benga ibitoki bivamo umutobe n'urwagwa.

Ibiseke biboshye neza cyane, ibiseke biri bifite ingano igiye itandukanye, ibinini, ibito, n'ibito cyane bimwe mu bintu bigaragaza umuco wacu uturanga, ni ibiseke cyangwa igiseke.

Iki ni igishushanyo cyakozwe binyuriye mu buhanzi, gusa ikigaragara cyo iki gishushanyo kiragaragaza umuco nyarwanda. Hariho umugabo usokoje igisunzu iriya nyogosho bayita igisunzu ikaba igaragaza umuco nyarwanda. Hariho umugabo wambaye inigi n'ibikomo, ziriya nigi nazo zigaragaza umuco nyarwanda.

Ahabereye imisango y'ubukwe bwa kinyarwanda, gusaba no gukwa hari ibikoresho bitandukanye ingoma, hatakishijwe imigongo, abahari bambaye imikenyero igiye itandukanye, abagore bateze urugori.

Ahantu heza, hari abantu beza bambaye iby'umuco wa kinyarwanda, bari kubyina bateze amaboko, bambaye inigi, bitangiye imikenyero, hirya hari abafite ibisabo ni ahantu heza.

Agakoresho ka kinyarwanda gakoze nk'ibakure, gakozwe mu ndodo z'umwimerere ziva mu migano, kari ahantu heza, katakishejwe amabara meza.

Ahakorerwa umurimo w'ubusuderi, baterateranye ibyuma, hari abantu benshi batandukanye ubona bari mu kazi, ariko byose babigezeho kubera hari amashanyarazi, uyu ni umurimo ukorwa gusa hari amashanyarazi kandi afite imbaraga.

Agakoresho gatangwa n'ikigo gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu ngo, aka ni agakoresho batanga kugira ngo ujye uguriramo umuriro, unamenye n'umuriro usigayemo uko ungana.

Amashanyarazi insinga zitanga umuriro w'amashanyarazi nyinshi zimwe zigera kure, zifite insinga nyinshi cyane zagejejwe ahantu mu byaro ubona hari amashyamba menshi abaturage bake, ni ahantu mu giturage, ariko hagejejwe umuriro w'amashanyarazi.

Ahantu hari ibyuma biteye ubwoba ubona bifite imbaraga, aha ni ikusanyirizo ry'amashanyarazi, ahari imbaraga zihariye zitanga amashanyarazi mu ngo, mu baturage, icyo twakwita nk'aho ari ho hantu habitse imbaraga nyinshi zituma umuriro ugera mu baturage.

Akamaro k'amashanyarazi mu baturage n'ahantu hasa nk'icyaro, ariko umuturage yihangiye umurimo yogosha abantu akoresheje imashini z'amashanyarazi, akabogosha imisatsi bakagira isuku ku mitwe yabo.

Ahantu mu cyaro ubona ko ari mu cyaro pe, ariko hari ibikorwaremezo urabona amapoto y'amashanyarazi urabona umuriro wagejejwe mu baturage hirya kure, n'ubwo ari ahantu mu cyaro hadatuwe n'abantu benshi hari imirimo y'ubuhinzi gusa.

Utwara ikinyabiziga moto ari kwambuka ku kiraro cyubatse neza, kigezweho, kidashobora guteza impanuka. Gusa ntikiramara kuzura neza turi kubona abakozi bakiri kugitunganya.

Hariya ndabona inyubako, n'inyubako nziza yubatse mu buryo bw'uruziga, ariko iyi nyubako ikindi kintu nahabonye hari utuntu nakwita utuzu tugiye twubatse neza, turiya tuzu tugenewe gushyirwamo amatungo manini nk'inka kugira ngo ziterwe inkingo cyangwa ziterwe intanga.

Inyubako nziza nini yubatse mu buryo bugezweho. Ifite isakaro ry'ubururu, ikagira amarangi, amabara asa neza. Ikagira n'uburyo bwiza bwo gutangira amazi. Hubatse ikigega gisa neza, gishyashya. Iyi nyubako ni nziza.

Abagabo ubona ko bakomeye batera intambwe zihamye, bari kugenda bazenguruka basura inyubako za leta, ariya ni amashuri cyangwa ivuriro, harimo abambaye imyenda y'ingabo z'igihugu abambaye imyenda y'ibigo ngororamuco.

Umwinjiro winyubako ya Leta, inyubako y'Igihugu ubona yubatse neza, ifite aho binjirira heza, hubatse mu buryo bukomeye kandi buhenze.

Inyubako ya Leta, ahari inzego z'ubuyobozi zishinzwe iby'ubuhinzi byihariye mu Karere ka Nyagatare, aha ni ho abantu baza bakabariza ibibazo byabo byerekeranye ubuhinzi.

Ikirango cyangwa icyapa cyerekana ahaheye inyubako y'Akagari ka Gashenyi, nk'uko bigaragara hari ibyo bagenderaho bafata nka kirazira mu Kagari kabo.

Inyubako ya leta ariko iciriritse ni akagari kubatse ahantu mu cyaro, hantu ubona utamenya yuko ari ibiro hari n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ikiraro kigezweho cy'imigozi kitubakishijwe amasima n'ibiki, kandi gihuza byoroshye umusozi umwe n'uwundi musozi nta kibazo kibayeho cyo kuba bagwa mu mazi cyangwa ibindi.

Umuhanda muremure ukoze neza ukikijwe, n'utwatsi twiza, harimo ibice binyuramo abanyamaguru bonyine, aho batabangamirwa n'ibindi n'ibinyabizi n'ibinyabiziga, tukabona ibiti bigiye biteye ku muhanda.

Inyubako ngari nziza cyane igeretse ifite umwinzuro mwiza, imbuganga ngari, aho basiga ibinyabiziga byabo heza, inyubako ni nziza nk'aho yubatswe na Leta.

Umwinjiro w'uruganda rw'inyange. Uruganda rushinzwe gutunganya ibikomoka ku mata byose. Uru ni uruganda ruherereye mu mujyi wa Kigali.

Igikorwa cya Leta, ikiraro kiyiza gikomeye gifite imbaraga, cyacaho uburemere bwose urobona abantu bari gutambuka bagisuye, bari kugicaho ari benshi ariko nticyeganyege ni ikiraro kigezweho cy'ibyuma hose.

Imishinga y'ubwubatsi ibikorwaremezo, imirimo y'ubwubatsi, amashuri, cyangwa, eeh ivuriro n'ibindi bitandukanye, ariko imirimo hariya y'ubwubatsi irarimbanyije.

Abantu babiri umugabo n'umugore bahanze ijisho ku kirango cy'ikigo gishinzwe iterambere ry'abaturage mu Rwanda, iyi nzu ikaba yarubatswe, iyi nzu barangamiye ikaba yarubatswe bivuye muri iyo nkunga y'icyo kigo, iyi nzu bayitashye.

Ahantu mu nama, abantu bambaye mu buryo bwiyubashye, hakazamo n'abo mu nzego z'umutekano, abashinzwe igorora, abashinzwe umutekano ba polisi, bari ahantu mu nama, bicaye mu ntebe nziza, ahantutu hari n'amakamera, ubona batuje.

Abagore babiri bakuze ubona ko ari abakecuru, bambaye imyenda ya Kinyarwanda y'imikenyero bafite utuntu mu ijosi, tumwe mu tuntu duhita tugaragaza ibihe byo kwibuka abacu bazize Jenoside.

Iyi foto iri kugaragaramo abagabo batanu n'umugore umwe n'abandi bantu inyuma yabo bari mu myanya yo kwicaramo, aba bagabo bombi bafite amabuje ndetse n'uyu mugore, birashoboka ko bagiye mu gikorwa cyo kwibuka ariko harimo n'inzego z'ubuyobozi kuko turi kubonamo umugabo wambaye impuzankano y'ingabo z'u Rwanda.

Umubyeyi wambaye neza bya kinyarwanda, wambaye umushanana n'imiigi ari ahantu ubona ari ku rwibutso rushyinguyemo imibiri y'abazize Jenoside, ahantu ubona hari igishushanyo kigaragaza ikimenyetso cyo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu.

Ahantu mu twatsi hateye intebe hicaye abantu barimo n'ingabo z'Igihugu n'abapolisi, hari umugabo bigaragara ko ari umuyobozi ufite impapuro mu ntoki uri kuganiriza aba bantu.

Abaturage bicaye ba shashibibero, bari kuganirizwa n'umuyobozi, umuyobozi ushobora kuba ashinzwe iby'ubutabera cyangwa uburenganzira bwa muntu, ari kubigisha, arikubigisha uburenganzira bwabo.

Abantu ubona ko bahuje umutima bari kuririmba umwe atera bikiriza, bahuje umutima ahantu bari ni amasaha y'akagoroba, ni ku rwibutso rushyinguyemo imibiri y'abazize Jenoside yakorewe abatutsi.

Ku kibuga cy'umupira ku masaha y'ijoro abantu bagiye batandukanye bicaye hasi, imbere yabo hari umuntu ufite indangururamajwi wambaye umupira utukura n'ipantaro y'ubururu ubona ko ari kubaganiriza.

Umugabo uri kuvuga ijambo, ufite indangururamajwi wambaye ingofero y'umukara n'umwenda uriho ikirango cy'ingabo z'u Rwanda umwenda wo hejuru w'umupira ukabaho n'ikirango cy'igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Abantu bicaye hamwe mu myanya y'imbere hica n'inzego z'umutekano, ingabo z'igihugu, ashinzwe umutekano b'abapolisi, n'umuyobozi, uriya muyobozi n'umuyobozi w'Akarere, bari kuganirizwa, bari kwigishwa kubirebanye n'uburenganzira, uburenganzira bw'umuturage.

Iyi ni inzu nziza nshyashya ubona ko abantu batarataha, iyi nzu ishobora kuba yarubagiwe umuntu utishoboye cyangwa umuntu wakuwe mu bye cyangwa umuntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi, inzu ikaba iteguwe kugira ngo bayimutuzemo.

Ahahurira imihanda, ikoze neza igezweho ya kaburimbo, hari ibyapa biyobora, abashoferi, bikayobora abaturage basanzwe, aho bashobora kwambukira.

Ahantu mu muhanda ukikijwe n'ibiti binini, ukikijwe n'amapoto ariho insinga z'amashanyarazi, umuhanda ukoze neza mu buryo bwa kijyambere ufite agace kagenewe kwambukiramo keza.

Iyi foto iranyereka ahantu mu gace k'icyaro ariko cyenda kumera nk'umujyi na none cyiteje imbere kuko urabona ko hari umuhanda, birerekanwa n'uko hari icyapa iki cyapa kiri kwerekana ko imbere hari umuhanda usobekeranye.

Icyapa kiranga icyerekezo cy'Umurenge wa Nyagatare hagaragara ibirometero bigera ku gihumbi na magana atatu na mirongo itanu ukaba ugeze kuri uwo Murenge, ku muhanda hari amatara mu masaha y'umugoroba.

Uburyo rusange bwo gutwara abagenzi, hirya no hino mu nce z'igihugu, iriya n'imodoka ngari, itwara umubare munini w'abantu, ibajyana hamwe, ibakura ahandi, ni uburyo bwiza, igihugu cyashyizeho kugira ngo abantu babone serivisi z'ingendo.

Aho imodoka zihagarara, imodoka itwara abagenzi ku buryo bwa rusange iri ahantu hasa nk'aho ari mu cyaro, ariko na bo begerejwe uburyo bwo gukora ingendo biboroheye, imodoka zirahari zihagije kandi zisukuye.

Iyi foto iragaragaza ahantu heza, hariho inzu ariko umuryango wayo urafunze, gusa hejuru hari ikirango cyangwa icyapa, kiriya cyapa kiragaragaza y'uko hakorerwa cyangwa hari ibiro bishinzwe gutwara abantu amakopera bigenzura amakoperative atwara abantu.

Ikinyabiziga cyacanye amatara, iriya ni moto yicayeho umuntu, iri kugenda mu muhanda, umuhanda mwiza ukoze neza, n'umuhanda wa kaburimbo.

Abantu bicaye ahantu heza hatakishijwe amabaraza mu kirango cy'Igihugu cyacu idarapo, turabona umugabo wambaye impuzankano ya Polisi y'Igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane abakora mu bice by'imitekano mu muhanda n'izindi nzego harimo ingabo z'Igihugu, ari kuganirira abaturage umutekano wo mu muhanda.

Ihema rinini ritakishijwe imyenda irimo ikirango cy'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, umuhondo, icyatsi n'ubururu, ihema ryicayemo abantu b'ingeri zigiye zitandukanye, abambaye imyenda ya gisirikare n'abambaye imyenda y'abapolisi.

Inzego zishinzwe umutekano zegereye abaturage, turabona umupolisi ushinzwe umutekano wambaye impuzangano ya polisi ufiteho n'ibirango n'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda ari kuganiriza abaturage.

Abantu ubona ko bakiri bato urubyiruko bigaragara ko bari gukora imirimo yo kwitangira igihugu, bari gukora bakorera ubushake bwabo harimo abikoreye amabuye, harimo abari kujya kuyikorera ubona ko ari ahantu mu cyaro bafite igikorwa runaka bahuriyeho bari gukora.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye bari ahantu mushyamba, bafite amasuka ubona bari mu gikorwa cy'umuganda, ahantu bari gukora umuhanda.

Abakinnyi babiri basakiranye, bari guhangana no kwakana umupira. Bambaye imyenda myiza, bari mu kibuga kiza, gikoze neza uko bikwiriye.

Ahantu hakoraniye abantu benshi bigaragara ko ari aho kwicara h'abanyacyubahiro, mu myanya yagenewe ingororamubiri sitade ubona hari abantu bari kubyina bishimye.

Abagabo batanu bambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri, bari mu kibuga cyiza, ikibuga gikoze neza, abari muri icyo kibuga bambaye imyenda myiza y'amabara y'umuhondo n'umukara, abagabo ubona ko babyibushye.

Urubyiruko ruri mu myitozo ngororamubiri ahantu hari ikibuga gisa nk'aho gishaje k'itaka hakikijwe n'ibyatsi byinshi abana bari mu kibuga bari gukina bambaye imyambaro myiza cyakoze, gusa bari kureba umupira nabo bicaye hasi hari ikintu kibura hano.

Aba ni abakinnyi b'igitsina gore, urabona mu kibuga bari gusakirana, basatiranye, bari kurwanira, umupira ,bashaka intsinzi.

Iyi foto iranyereka abakinnyi. Bambaye impuzankano y'itsinda ryayo, ya ikipe yabo urabona ko bagiye bari kwitegura kujya mu kibuga bagakina umukino. Harimo n'uwambaye imyenda y'umuhondo uriya ni umuzamu abandi batambaye impuzankano buriya ni abaje kwifotoza.

Abagabo bari gukora imyitozo ngororamubiri, bari gukina umupira w'amaguru, bashishikaye, harimo abambaye imyenda y'ubururu, abambaye'umuhondo, bari gukinira mu kibuga gikoze neza.

Abantu benshi cyane imbaga iri mu gikorwa cyo kugorora umubiri no kwita ku buzima bari kwifatanya muri siporo rusange nk'uko biteganywa na leta buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi.

Mu masaha y'umugoroba, polisi y'igihugu iri imbere, ishakira inzira abantu bari mu myitozo ngororamubiri, n'abantu benshi, bigaruriye umuhanda wose, polisi y'igihugu, inzego z'umutekano ziri kubashakira inzira kugira ngo bakore imyitozo yabo nta kibabangamiye.

Ahantu ubona ko ari mu cyaro ahantu hari ikibuga cy'umupira w'amaguru ariko kidakoze neza kirimo ibyatsi byinshi, abaje kureba umupira bicaye hasi ariko abakinnyi bahari baracyari bato urabona bambaye utwenda twiza, kandi basa nk'aho ibitekerezo byabo biri ku gikorwa barimo cyo gukina.

Abantu batandukanye, bakoranye, bari mu myitozo ngororamubiri, urabona ni abantu benshi mu nzego zi zitandukanye ariko bahuye kugira ngo bite ku buzima bwabo, bakora imyitozo ngororamubiri.

Ahantu mu kibuga harimo abagabo bari mu myitozo ngororamubiri, bari mu mikino y'amaguru, hari abambaye imyenda y'ubururu, n'imyenda y'umuhondo, ikibuga kiri ahantu heza.

Ikibuga cyubatse neza gisa neza ariko bigaragara ko ari icyo mu cyaro, harimo abakinnyi abagabo ubona ko ari inkorokoro ba gukina umupira w'amaguru, bambaye imyenda y'umuhondo n'abambaye imyenda y'ubururu urabona ko bari gukina umupira wabaryoheye.

Umuhanda w'itakaka, umuhanda ubona ko ari uwo mu cyaro ariko ubona bari kugerageza kuwukora, ni ahantu mu cyaro hataratera imbere cyane ariko ku mpande batangiye kuwubaka.

Umuturage uri kugenda mu kayira kagennewe abanyamaguru, mu muhanda ugezweho wa kaburimbo, wakozwe ukazirikana abanyamaguru, ugasiga agace k'abanyamaguru n'igice kinyuramo ibinyabiziga, hirya urabona ko hari ibyatsi byinshi, ni ahantu mu cyaro ariko hari umuhanda ugezweho ubereye abaturage.

Umuhanda ukoze neza ubona ko ari umuhanda w'igice cy'icyaro ariko urimo kaburimbo, nta bitaka, nta cyondo, ni umuhanda ukoze neza ufite n'igice ku mpande zombi aho abanyamaguru banyura nta nkomyi, batabangamiwe n'ibindi binyabiziga.

Uyu ntabwo ndi buwite umuhanda, ndabona ar'akayira, aka n'akayira ko mu ngo mu giturage ahantu runaka, n'akayira k'abaturage gasanzwe hirya urabona ko n'ikimenyimenyi hariho hariya abaturage bari kugacamo. Aka n'akayira k'abanyamaguru gusa gashobora gucamo n'ibinyabiziga bito.

Ahantu mu muhanda n'ubwo bigaragara ko ari ahantu mu cyaro, ariko hari imihanda myiza iciyemo imirongo isobanutse, hirya hari akayira kagenewe abanyamaguru gusa, ku buryo ibinyabiziga bidashobora kubangamira, umugabo ari kuhatwara igare rihetse ibintu byinshi.

Umuhanda mwiza ukoze neza gusa wo mucyaro, w'amabuye gusa, uburyo bwo gukora ingendo turabona amamoto atwaye abagenzi, hirya ibikorwa birahari hari inzu z'ubucuruzi, abajyanye ibitoki ku isoko hirya, aha ni icyaro ariko cyiza.

Mu masaha y'ijoro, mu gahanda kagenewe abanyamaguru, amatara ari kwaka, abantu barigutambuka ubona nta bwoba bafite bishimye, hirya ibinyabiziga biratambuka mu muhanda wabyo bitabangamiye abagenzi.

Ahantu agace k'imiturire, ako ahantu bamena imyanda y'amacupa, amacupa atabora, imyanda itandukanye ahantu hagenda abantu, hirya umugabo aragenda avugira kuri telefone ntiyitaye ku mwanda uri aho hafi.